Intango irimo amarwa cyangwa se ubushera, ikiyama, harimo n'imiseke yo kunywesha.

Igikorwa cy'umuganda gihuriwemo n'abaturage, polisi abasirikare. Bari gusibura umugende ni ko birimo kugaragara aha ngaha.

Imodoka ya kwasiteri itwara abantu ariko mushoferi wayo ategereje ko hajyamo abagenzi.

Umukino wo gutera imihunda cyangwa se ibisongo, ni byo uyu musore ari gukora.